Farumasi zifasha abarwayi, zicuruza imiti myinshi kandi myiza, haba harimo abaganga basuzuma kandi bagatanga imiti ifasha abantu gukira indwara.

Mu bitaro habayo abarwayi, abarwaza, abaganga ndetse n'abataravayeri. Abaganga bavura abarwayi, bakabaha imiti yo kubagabanyiriza uburibwe. Abarwaza bita ku barwayi ba bo bakabaha ibiryo byo kurya.

Farumasi zikorwagwamo n'abantu bagira isuku babita abaganga cyangwa se abadogiteri. Mbere y'uko baguha umuti babanza bagupima indwara iri kukugaragaraho. Irahinndaga imiti zo muri farumasi.

Abaganga ni abantu beza cyane bavura abarwayi, babaha imiti itandukanye bitewe n'indwara baba barwaye, batanga ibinini by'abana by'inzoka.

Farumasi bacuruzamo imiti itandukanye, hakoramo umuganga cyangwa se umudogiteri. Asuzuma uje amugana akamuha imiti ijyanye n'uburwayi arwaye haba harimo isuku nyinshi cyane kandi harimo n'umwanya uhagije.

Habaho ibihingwa bitandukanye: intoryi, insina, ibiti n'ibindi bitandukanye. Intoryi baziteka mu biryo, gusa zirasharira. Zigira amafaranga menshi cyane, zerera igihe gitoya.

Hari ibyatsi byimeza, byimeza mu ishyamba cyangwa se ahantu hari amazi nk'urwiri, ibitindori, imbingo n'ibindi bitandukanye. Ibitindori bigira indabo nziza cyane babigaburira amatungo.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane. Kivaho imisigati yo kurya, ikigori cyo kurya n'ubwatsi bwo kugaburira amatungo yo mu rugo. Cyerera igihe gito cyane. Ababihinga bagira amafaranga menshi cyane.

ibiti biba ari byiza cyane, bivamo inkwi zo gucana ku bantu bacanaa ku mashiga cyangwa se kuri rondereza . babikoramo uruzitiro rwiza cyane nkindabo, bigira kandi ifoto iyo yifotoreje iza iri kugaragara neza cyane.

Ibiti biba ari byiza cyane, bitanga inkwi cyangwa se bikavamo ubwatsi bw'amatungo, bigira amababi avamo ifumbire yo gusasiza mu rutoki kandi bikurura n'imvura.

Inteja ni ibyatsi bimera mu kinani, babigaburira amatungo. Bigira ururenda, bigira utubabi dutoya cyane. Babikoresha kandi nk'umuti.

Umusave ni igiti kiba mu ishyamba, kirakomera kigira amababi maremare kivamo imbaho nziza cyane, kigira inkwi kandi nziza zikomeye.